Ni alimantasiyo icuruza ibintu binyobwa, harimo ama ji ndetse n'ibindi binyobwa kandi hubakishijemo inkingi, kandi harimo n'abantu baje kugura hamwe n'abacuruzi.